Uyu ni umurima bahinze bifashishije ikoranabuhanga, harimo umuntu uhetse icyuma ari gutera umuti ibihingwa yahinze, kugira ngo wice udukoko tuza tukajya ku myaka bahinze tukayangiza ntiyeri.

Mu mboga ziribwa harimo n' amashu uwayahinze ayatera umuti, kugira ngo yere neza, akihaza mu biribwa iwe agasagurira n' isoko akabonamo amafaranga, yo gukoresha ibikorwa bitandukanye nko gutanga mitiweli bivurizaho.

Mu buhinzi dukoreshaga ifumbire y'imborera tugakenera n'ifumbire y' imvaruganda. Habamo izitwa dapu n'izitwa enipeka bongera mu butaka, kugira ngo umusaruro uzabe mwinshi bagurishe babone amafaranga.

Uyu ni umurima w'icyitegererezo uhinzemo ibigori, hari abantu benshi bari kuwushyiraho ifumbire, harimo n'umusirikare n'umupolisi n'abandi baturage basanzwe, kugira ngo bazarebe ko bizamera neza.

Aya ngaya ni amafi, bayabaze ,bakuyemo bya bihwa byicana mu kanwa ,bayagize neza ,bagiye kuyateka bayarye. Amafi bayaroba mu ngezi bakayagurisha abayaguze, bakayagira nk'iri bakayateka bakayarya.

Ndabona bino ari ibiryo， ku isahani nziza y’umweru，ndetse n'akantu k’umutuku ku ruhande，hariho amakaroni，hariho n'ifi，birateguye neza， ahantu ku meza.

Aya ngaya ni amafi, bayaroba mu ngezi, bayashize ku nkoko, barayateka bakayarya cyangwa bakayajyana mu isoko, abakiriya bakaza bakagagurira bubakaga umubiri wacu gafite akamaro gakomeye

Amafi barakuye mu ngezi, bagiye kuyagurisha babonemo amafaranga cyangwa bayateke, bayarye, bayagurishe mu maresitora cyangwa se bayarye mu rugo. Amafi aba mu biryo byubaka umubiri.

Izi ng'izi ni indagara bazirobye mu mugezi, barazanika bazishyiraho n'umunyu kugira ngo zitazangirika, bazijyana kuzicuruza. Umuntu avuye kuzigura, araziteka, zirashya n'ubu bagiye kuzirya.

Aha ngaha niho bacururiza amafi baba bavuye kuyaroba mu mugezi bakayaranguza, bakayazana bakayacuruza abantu bakayagura bakajya kuyarya bakayateka agiraga intungamubiri nyinshi cyane, yaba mu byubaka umubiri.

Iyi ni ifi. Bayikuye mu mazi cyangwa mu cyuzi. Barayigana barayiteka. None yahiye bayishije ku gasahani keza k'umweru. Bagiye kuyirya. Ushobora kuyiteka mu rugo cyangwa ukajya ahantu baha resitora ukayigura ayirya.

Izi ni indagara, indagara baraziroba bakazikawusha bakazanika, ubundi kazicuruza tukazigura tukazirya, indagara rero zibarizwa mu biryo byubaka umubiri, bikomoka mu mazi indagara zirwanya uburwayi.

Ingezi zifite akamaro kenshi cyane. Bakuramo amafi, bakaruvamo n’insambaza. Nazo ni nziza cyane, ko barazijya ziryoha. Baranazigurisha, bakabona amafaranga, bakiteza imbere. N’abacuruzi bazo batanga umusoro, bigatuma igihugu cyacu gitera imbere.

ikingiki ni icyuzi, ni icyobo bacukura bagashyiiramo amazi, bagashyiramo n'umurama w' amafi, bakajya bayajyaniramo ibyo kurya agakura, andi bakayaroba bakajya kuyateka bakajyarya. Banayajyana mu isoko bakayagurisha bakabona amafaranga.

Aya ngaya ni amafi barayarya, bayaroba mu ngezi. Barayareka agakura, bayaroba yarakuze cyangwa umuntu agakora icyuzi. Bacukura icyobo bagashyiramo amazi, bagateramo umurama w'amafi, yamara gukura bakayaroba bakayarya cyangwa bakanayagurisha.

Ibigori ni byiza cyane, barabitera bikera bakabica bakajya kubirya bakanabyotsa, bikabaha amafaranga bakabisarura bikuma, byakuma baragurisha bakabaha amafaranga, bakanabibetesha bakanywa n'igikoma n'umutsima.

Mu ishyamba ndabona harimo ibiti bimwe by'ubwoko ntago nzi uko babyita, ariko icyo mbiziho ibi biti biranuka, bigira umunuko, bihumura nabi.

Iki ni igiti cyeramo imbuto bita avoka ziraryoha. barazohanura bakazigurisha cyangwa bakazitara bakajya kuzicuruza zihiye bakabonamo amafaranga.

Mu matungo magufi habamo intama. Ni itungo ryiza kuko uryoroye abona ifumbire ryo guhingisha cyangwa akaribanguriza rikabyara akagira intama nyinshi akarijyana no ku masoko ukabonamo amafaranga yo gukora indi mishinga.

Mu bihingwa by'ibinyampeke habamo n'amajeri cyangwa amashaza, afite akamaro kanini uwayahinze arayarya, urunyogwe cyangwa amashaza uyasarura yumye ukayagurisha ukabona amafaranga, hariho n'abayacuruza na bo babonamo inyungu bigatuma n'ubucuruzi bw'igihugu cyacu butera imbere.

Ibishyimbo ni igihingwa cyiza. Barabitera, bakabitera umuti kugira byere neza, bakabisarura, bakabirya, cyangwa bakabigurisha bakabonamo amafaranga yo kwiteza imbere.

Uyu ni umurima uteyemo ibigori bimeze neza, byarakuze bireze. Igisiaye ni kuza bakabica bakajya kubiteka cyangwa bakabireka bikumiramo bakazabisarura bakajya kubihungira, bakazabigurisha bakabonamo amafaranga.

Uyu nguyu ni umurima uteyemo ibirayi. Nta bwo byari byera, ariko biri hafi. Babitera n'umuti bagashyiramo n'ifumbire, byakwera bakabikura bakajya guteka cyangwa bakanabijyana mu isoko bakabonamo andi mafaranga.

Uwo ni umurima uhinzemo karoti, baziteyemo ndikubona n'ibirunga hejuru, ikirunga cya sabyinyo, ndikubona n'amashamba hakurya n'ibigori basaruye, umukecuru wikoreye imishingiriro, umenya igiye gushingirira ibishyimbo.

Uyu ni umurima ni aho abantu bajya kuragira amatungo, ndi kubonamo ihene ziri kurisha, baje kuziragiramo, ndi kubona ihene ifite n'utundi dutoya hirya, ndi kubonayo n'umugabo hirya waje kuragira zino hene.

Umugenzi uri gutemba uba urimo amazi adufasha mu gushora amatungo y'inka n'ihene, tuyakoresha turi no kuyatera imyaka mu gihe cy'izuba, kugira ngo ituma.

Inyoni ziba mu rusobe rw'ibinyabuzima bw'ibiguruka， ziba mu bidukikije， zituma ikirere kimera neza， ziba mu mashyamba， zibangurira imyaka， ibishyimbo，n'ibigori bikera neza， zikurura na ba mukerarugendo.

Habaho imboga z'amoko menshi. Intoryi n'inyanya, za karoti n'imiteja. Habaho n'izo bita isombe. Ni nziza cyane kuko zituma ubuzima bwacu bumera neza, abazihinga barazigurisha. Habaho n'abakora akazi ko kuzisya, abo binjiza amafaranga.

Mu mboga zikunzwe habamo na karoti. Ni ingirakamaro cyane ku bahinzi bazo babonamo amafaranga menshi yo gukora ibikorwa byabo bya buri munsi nko kubaka amazu yabo yo kubamo no kugura ibikoresho bitandukanye.

Inzu yubakishije ibiti, ni ikigega bahunikamo imyaka yeze: ibirayi, ibigori, cyangwa n'ibishyimbo, baracyubaka kugira ngo bajye barabona aho bashyira ibyo basaruye, mu mirima yabo.

Mu mbuto ziribwa habamo n'amatunda, ni meza cyane atuma uwayariye atarwara indwara, ziterwa n'imirire mibi n'uwayahinze abonamo amafaranga, yo gukoresha ibindi bikorwa bitandukanye.

Ahangaha ni ku mashuri. ikingiki ni ikibuga abanyeshuri bakiniramo. Ku ishuri ni ho abanyeshuri bajya bakajya kwiga amasomo, bakiga bakanaminuza bakazabona imirimo yo gukora.

Uyu nguyu ni murima wa karoti，karoti zibarizwa mu mboga， imboga za karoti ziba mu biryo， barazirya， ziba mu biriinda indwara，umuntu arazihinga， akaziteka，akazirya， cyangwa zaba ari nyinshi， akazigurisha bakamuha amafaranga.

Ishyamba ribamo ibiti bidufasha mu bwubatsi ndetse bitemye. Tukabonamo n'imbaho zo gukoresha intebe n'ameza. Rikurura n'imvura igatuma ikirere cyacu kiba cyiza, n'ibihingwa byacu bikera.

Uyu ni umurima， bari barahinzemo ingano， barazisaruye barazijyana，bajya kuzihura， bazazigurisha babona amafaranga， cyangwa bazibeteshe babonemo igikoma， bateke n'umutsima. Uwo muririma bazongera bahingemo ibindi bintu，nk'ibishyimbo, ibigori，cyangwa n'ibirayi.

Ibi ngibi ni ibigori bireze. Umuntu urimo agiye kubica aje kubyotsa babirye cyangwa babyotse babigurishe, cyangwa nibabica babigurishe batabyokeje bimeze gutya. Ababiranguye na bo baje kubicuruza.

Isoko bacururizamo imbuto, zirimo amapera, imyembe, na za pome, imbuto ni nziza cyane ku buzima bwacu, ziturinda indwara cyane cyane ku bana batoya n'abantu bashaje, zituma bamera neza.

Ibi bogori bivanzemo n'amasaka, urabijyana ahantu haba icyuma kibeta bakabeteshamo ifu mujyana mu rugo, mukajya munwamo igikoma cyangwa bakabyinika bakazakuramo umusururu.

Ubungubu ni ubuhinzi. Ndi kubona abantu bari kwita ku bihingwa bahinze, ariko babihinga mu mifuka bagashyiramo itaka, bagatera ibyo bashaka guhinga. Bari kubyitaho kugira ngo bizere.

Izi ngizi ni imineke zo mu bitoki. Bazirya nk'imbuto. Ni nziza cyane ku buzima bwacu, zituma igogora rigenda neza, tukituma neza, ziva mu rutoki. Barazigurisha bakabona n'amafaranga.

Bazita avoka zera ku biti, barazihanura, bakazitara, zashya bakazirya, bazijyana mu isoko bakabaha amafaranga, ziboneka mu biryo birinda indwara, zituma imibiri yacu imererwa neza.

Ibi babyita ibirayi. Barabitera bakabibagara, bakabitera umuti, byakwera bakabikura, bakabijyana ku isoko cyangwa abaguzi bakaza bakabirangurira mu murima, bakabaha amafaranga, bo bakajya kubicuruza ahandi hantu.

Ibirayi ni igihingwa cyiza gifite uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Abaturage babihinga n'ababicuruza babonamo amafaranga yo gukoresha ibikorwa by'iterambere. Ababicuruza nabo batanga imisoro bigatuma igihugu cyacu gitera imbere.

Mu bahinzi habamo n'abahinga urusenda ni rwiza bararugurisha bakarujyana mu nganda, bagakoramo urusenda rwiza ruteguye bita akabanga, bagashyira ku biryo bigahumura neza bikanaryoha.

Aba ngaba ni abagabo bari gusarura ibigori bireze barabiteye ,bashyiramo n'ifumbire bino bagiye kubyotsa babirye ,cyangwa banabiteke, bazanabireke, ibindi babijyane mu isoko babeteshemo ifu ,banywe igikoma banarye umutsima.

Ubuhinzi bw'imyumbati bufite akamaro kenshi. Hariho myumbati barya, habaho n'iyo binika bakayanika bakabeteshamo ifu yo kuryamo umutsima bita ubugari. Abayihinze barayigurisha bakabonamo amafaranga, n'abacuruza imyumbati n'ibiyikomokaho nabo ba babona amafaranga yo kwiteza imbere.

Izi ni imbuto bazita ibinyomoro, ibinyomoro ni imbuto nziza cyane zibarizwa mu birinda indwara. Ibinyomoro bituma amaraso ye yiyongera ,umuntu iyo yabihinze bituma ubukungu bwe buzamuka ,abigurisha bakamuha amafaranga, kandi n'abana be bo mu muryango we baba bariye imbuto.

Aya ngaya ni amasaka barayatera yakera bakayasarura, bakayahura, bakanika bakajya kubetesha bagakuramo ifu, bagatekamo igikoma bakakinywa.

Ibi biribwa babyita ibijumba, batera imigozi kayibagara yakwera bakajya kubiteka bakabirya ,cyangwa bakabijyana mu isoko bakabigurisha bakabona amafaranga.

Uyu nguyu ni umubyeyi uri gusarura za karoti mu murima yarazihinze, ni nziza cyane, ni imboga bateka bakarya, banarazigurisha bakazijyana mu ruganda , habaho n'amavuta bakoze, muri izo karoti.

Inka ni nziza cyane, itanga amata itanga n'ifumbire yo guhingisha imyaka itandukanye, ibirayi n'ibishyimbo n'amasaka. Iyo uyigurishije ubonamo amafaranga yo kwiteza imbere, no gukoresha ibindi bikorwa bikuzamurira ubukungu.

Umudamu akubise isuka ku rutugu agiye guhinga cyangwa kubagara imyaka zitandukanye, yaba yarahinze nk'ibigori cyangwa ibishyimbo cyangwa amasaka cyangwa ibijumba bimere neza byere azasarure.

Aha ni aho bajya kugura bakanagurishiriza amatungo magufiya, arimo ihene n'intama. Babona amafaranga bajya kuzorora zikabaha ifumbire yo guhingisha, bamwe bakanazibaga bakagurisha inyama zazo.

Ubuhinzi bw'urutoki ni bwiza cyane. Abaruhinga babona ibyo kurya iwabo mu ngo, babona n'amafaranga kuko babijyana ku isoko, n'ababicuruza babona inyungu, bagatanga n'umusoro ku gihugu cyacu, bityo bigatuma iterambere ryiyongera.

Imbuto zitwa avoka zifite akamaro kanini cyane. Abazihinze barazirya iwabo, baranazigurisha bakabonamo amafaranga yo kuteza imbere. Hari abazigura bakazijyana mu nganda, bakajya gukoramo ibikoresho by'isuku, nk'amasabune yo gukaraba n'amavuta yo kuyisiga.

Hari abacuruzi bacuruza imboga zitandukanye z'amoko yose, harimo nk'inyanya n'intoryi, natwe tukajya kuzihaha tukaziteka, tukazirya. Abo bacuruzi babonamo amafaranga, bakiteza imbere, bakagura amatungo yo korora, cyangwa bakabona n'amafaranga yo kwishyura inzu.

Uyunguyu ni umurima uteyemo ibigori. Aba bantu barimo bari gutera umuti kugira ngo udusimba twabijeho dupfe, kugira ngo tutabyangiza bikazanga kwera.

Uyu ni umurima w'ibirayi. Aba bagore bari kubicucira, ni mu gihe cy'izuba. None bari gukoresha uyu mupira .Bawushize mu mazi bari kufuhira kugira ngo ibi birayi bizere neza.

Mu mbuto ziribwa harimo imyembe, ni myiza cyane iraryoha abayihinze babonamo amafaranga yo gukoresha ibikorwa byabo bya buri munsi, nko kugura amatungo yo korora nk'inkoko, n'inkwavu, n'intama.

Ibihingwa ngandura rugo, usangamo n'imyumbati, bazigereka ku bishimbo batsimbye bakazirya, cyangwa bakazijana mu isoko, bakabonamo amafaranga yo kugura ibindi bintu bakeneye, nk'ibikoresho by'isuku, amasabune yo gukaraba n'amavuta yo kwisiga.

Ibi ,biri mu mufuka ni ibiryo by'amatungo cyane cyane ingurube, babyita ibiheri ,turabigura ,tukabiha ingurube, igakura ikaba nini, ikabyara n'ibyana byazo tukazibiha ,bigakura tukabigurisha.

Iri ni itungo rigufi, baryita urukwavu. Rubarizwa mu matungo magufiya. Urukwavu ni ingirakamaro cyane, urarugura ukarworora, rugakura, ukarubanguriza rukabyara, rwamara kubyara, ukagurisha ibyana ukabona amafaranga cyangwa ukanarugumana ukagira inkwavu nyinshi ukajya uzibaga mukazirya.

Ubuhinzi bw'urutoki mu Rwanda bumaze kugera ku rwego rushimishije, ababihinga babona ibyo kurya iwabo bagasagurira n'amasoko, n'ababicuruza babona amafaranga yo kwiteza imbere bagatanga n'umusoro ku gihugu cyacu.

Aya ngaya ndimo kubona ari amateke barayahinga bajya kuyakura, tukayateka, tukayarya cyangwa bakayajyana kuyacuruza bakaza bakayagura cyangwa bakayarangura bakajya kuyacuruza.

Aya ngaya ni amahene ari kurisha ubwatsi ,amatungo magufi aduha ifumbire yo guhingisha, aduha n'amafaranga iyo twayagurishije n'iyo twayabaze turya inyama.

Uyu ni umurima w'ibigori umuntu ari gutera umuti w'ibigori kugira ngo bimere neza, azasarure neza . Ibigori buriya ni ingirakamaro cyane mu iterambere ry'igihugu, mu iterambere ry'urugo mu birenze rwose bifite uburyo bwo kubona amafaranga.

Ubunyobwa ni igihingwa cyiza, abahinzi babwo babujyana ku isoko bakabona amafaranga yo kwiteza imbere no kwikenuza, hariho n'ababucuruza, babukoramo ifu yo gushyira mu biryo cyangwa bakabukaranga, bakabugurisha bukaranze.

Ibi babyita ibipapayi bya kizungu. Biba ari binini cyane. Ukabihinga bikera. Ukabisoroma byaratukurije. Ukabijyana mu isoko cyangwa ukabijyana mu rugo mukabirya mwebwe nab'iwanyu.

Mu mbuto ziribwa habamo n'ibinyomoro byiza cyane mu byongera amaraso ku wabiririye . Habaho ababicuruza, ababigize umwuga bajya kubirangura mu mirima z'ababihinze, bakabigemura ahantu hatandukanye, bakabigurisha, bakabonamo amafaranga yo gukoresha indi mishinga.

Igihingwa cyitwa ingano, gifite akamaro kanini kuko barazisarura bakazanika, bazibeteshamo ifu yo kunywamo igikoma, no gutekamo umutsima. Baranazigurisha bakajya gukoramo ibicuruzwa bitandukanye nk'imigati, zinakoreshwa mu nganda zikora inzoga, zikinjiza amafaranga mu Gihugu cyacu.

Amatunda ni zimwe mu mbuto ziribwa nziza zikundwa n'abantu, cyane cyane abana zituma bamererwa neza zikabarinda indwara ziterwa n'imirire mibi, abahinzi bazo barayagurisha bakabonamo amafaranga yo gukoresha indi mishinga yabo, hariho n'abayacuruza bayagemura ahantu hatandukanye.

Uyu nguyu ni umukobwa，ndi kubona ari kurya urubuto bita wotemeroni，bararurya， ruba rusa n'umutuku imbere，ni urubuto rwiza cyane， kubera ko rutuma umuntu amera neza.

Iyi ni imifuka ipakiyemo ibirayi, barabiteye, barabikura, none babishyize mu mifuka, bagiye kubigurisha babonemo amafaranga, cyangwa se utanabigurishije, wanabikura, ukabiteka, ukabirya.

Ubunyobwa barabuhinga， bwakwera bakabusarura， bakabwanika， bakabutonora， bakabukaranga bakaburya，cyangwa bakabushesha bakajya barabushyira mu biryo ifu yabwo， cyangwa bakanabugurisha，bakabona amafaranga.

Izi ngizi ni intoryi, intoryi nziza cyane z'umweru, intoryi zibarizwa mu mboga, intoryi ni ibihingwa byiza cyane, uwabihinze arazisarura akazijyana mu isoko akazigurisha akabonamo amafaranga, cyangwa se akazijyana iwe bagateka bakarya.

Inkuoko itera amagi tukayateka tukayarya, bayajyana ku isoko, bakabona amafaranga bamaze kuyigurisha, itanga n'ifumbire ryo guhingisha ibigori, n'ibishyimbo, n'ibijumba.

Uyu ni umurima w'ibigori bikiri bitoya, bamaze kwapulikamo iyindi fumbire y'imvaruganda, aba bagabo babihagazemo umenya ari ibyabo, ibigori ni ingirakamaro cyane, turabisarura, tukabigurisha cyangwa tukabeteshamo ifu yo guteka igikoma n'umutsima.

Umurima urimo ibigori n'ibirayi iwacu bajya babitera bakabivanga, ibirayi byera mbere ibigori byo bigasigara mu murima, bakabikura bakabijyana mu nzu bakabiteka bakabirya, n'ibigori byakwera bakabigurisha bakabaha amafaranga, cyangwa bakabiteka bakabirya cyangwa bakabyotsa.

Uyu ni umurima w'imyumbati uyu muntu umenya ari kuyibagara yarayihinze iracyari mitoya ntabwo irera. Imyumbati ivamo ubugari n'umutsima cyangwa tukanayiteka.

Ibihaza ni bimwe mu biryo bya Kinyarwanda bikunzwe mu maresitora n'amahoteli. Barabiteka abahinzi babyo babona amafaranga kuko basagurira n'amasoko ibindi bakabirya mu ngo zabo.

Umurima w'ikawa, biba ari ibiti bigakura bikazana utubuto, twamara gutukura bakadusuroma, bakadutonora, bakatwanika, bakazatugurisha, bakatujyana ku ruganda, bagakoramo ibindi by'ikawa byo banywa.

Izi ngizi ni imboga bacuruza, ni ibirungo bakoresha batetse zimwe zitwa puwavro ibindi ni inyanya, barazigura bakazijyana mu rugo, bakajya kuzikoramo ibirungo byo gushyira mu biryo, kugira ngo biryohe.

Igihingwa cy'imyumbati gifite akamaro kanini, barayirya, iyindi bakayikoramo ifu batekagamo umutsima witwa ubugari, abayicuruza babona amafaranga yo kwiteza imbere, n'abayihinga babona ibiryo byo kujya mu ngo za bo.

Ibi ngibi ni ibishyimbo, byabaye intonore, umuntu ashaka ubu yayisoroma ajya kuyisogora akayiteka akayirya cyangwa ayireka ikuma akazabisarura, akabihura, akanabigosora akazajya abiteka byumye cyangwa akanabijyana ku isoko.

Uyu ni umurima uteyemo intoryi. Ni imboga barazihinga zakera bakazisarura bakajya kuziteka bakazirya cyangwa se bakanazijyana ku isoko bakazigurisha bakabonamo amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

...umurima w'ibigori barabihinga, bakabibagara bikera, bakabisarura. Iyo byeze bajya kubica, bakabiteka bakabirya. Uyu mugore kureba ko ibigori byeze ngo abice abijyane.

Ibirayi bya Kinigi ni byiza cyane, iyo umuntu yabihinze arasarura akabigurisha akabona amafaranga, aha ngaha rero ni isoko ryabyo ni ho babicururiza, iyo umuntu ashaka guhaha ibirayi aragenda akajya guhaha, agataha akajya kwitekera.

Igihingwa cyitwa ikawa, ikawa n'igihingwa ngengabukungu ntabwo babiteka barabitera bigakura bikazana tuno tubuto ,bakadusoroma dutukuye bakadutonora bakatwanika bakatugurisha ,bakagenda bakajya bakazakoramo ikawa yo kunywa.

Hano ndi kubona wagira ngo ni aho bakorera amasabune yo gukaraba no kumenesa, amavuta yo kwisiga, bayakora mu mavoka aba ngaba ni abakozi barukoreramo.

Murabona intoryi, hirya hariho n' indobo umenya ari zo bazizanye nyuma ahari bari bavuye kuzisarura, intoryi turazirya ,tuzikoramo isosi ,tukazigereka ku bishyimbo ,n'ibirayi undi tugatika tukarya.

Uyu nguyu ni umurima uteyemo imboga, abagabo batatu bari kuzibagarira, imboga ni nziza cyane ku buzima bwacu, kubera ko ziboneka mu biribwa birinda indwara mu mibiri yacu.

Karoti ni igihingwa cyiza cyane, ugisanga mu mboga, imboga n'ingirakamaro kugira turye indyo yuzuye ni uko igomba kuba irimo imboga. Abasaza rero bari kuzisarura cyangwa bari kuzikorera, karoti ni ingirakamaro cyane.

Imiteja yera ku bishyimbo, turabitera, tukabishingirira, byamara kuzana uruyange bikayizana, tukayisoroma, tukayiteka tukayirya, cyangwa tukayireka ikazavamo intonore, tukazisoroma, tukaziteka.

Umurima uteyemo urusenda, umugabo urimo ari kurusarura ngo arujyana ku isoko barugure, bamuhe amafaranga bajye kurukoramo akabanga n'izindi nsenda nziza cyane, bazana zikoze neza tukazishyira mu biryo tukaryoherwa.

Ibi ngibi ni ibitunguru ni byiza cyane bidufitiye akamaro, kubera ko uwa bihinze arabigurisha, akabona amafaranga, n' ababiguze bakabigurisha abandi ubikoresha turi guteka ibiryo, kugira ngo biryohe binahumure neza, banabijya ari bibisi bakabikekera ku ibiryo.

Mu bihingwa bikunzwe mu Rwanda harimo n'ibirayi, ni byiza cyane bifite akamaro kenshi, ababihinga babona amafaranga menshi yo kwiteza imbere, nko kugura amatungo yo korora harimo n'inka, ababicuruza nabo ba bonamo inyungu bakanatanga umusoro ku gihugu cyacu, bizamura iterambere muri rusange.

Ibitoki byera ku nsina, barayitera bakayifumbira bakayihingira, ikana ikazanaho igitoki bakagica bakagiteka bakakirya, cyangwa bakakijyana mu isoko bakakigurisha.

Aha ni ahantu bacuruza ibirayi ,baba baragiye kubirangura mu mirima yacu, maze bakajya kubicuruza ,iyo ushaka kubiteka ujyayo ukabihaha, ugatanga amafaranga, maze bakaguha ibirayi ukajya guteka.

Imbuto y'amacunga ni nziza cyane, bazisoroma ku biti tukazirya kanabijana mu isoko tukazicuruza ukabona amafaranga, zirinda indwara imibiri yacu bigatuma ibaho neza.

Ibi ngibi ni ibirayi babikuye. Barabihinga, bakabitera umuti, bagashyiraho ifumbire, byakera bakabikura bakabiteka, bakabijyana bakabigurisha bakabonamo amafaranga cyangwa babitekamo ifiriti na za mucoma.

Imyanya bazishyize mu mifuka bagiye kuzigurisha bari kuzisarura, n'ingirakamaro cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. turazigurisha bakaduha amafaranga tukanaziteka nk'imboga mu biryo zikaba ari n'ibirungo bituma biryoha.

Imyembe ni zimwe mu mbuto ziribwa nziza ziryoha. Abazihinze, iwabo barazirya, bagasagurira n'amasoko bakabonamo amafaranga. N'abazicuruzaga babigize umwuga bazirangura bakazigemura ku masoko atandukanye bakiteza imbere.

Avoka ni urubuto rufite akamaro kenshi cyane, barazirya cyangwa bakazijyana mu nganda bagakoramo ibikoresho bitandukanye by'isuku nk'amasabune yo gukaraba, n'amavuta yo kwisiga. Inganda zitanga akazi ku bakozi babo, kandi zitanga n'umusoro ku gihugu cyacu.

Uyu ni umurima ni ho bakorera ingemwe z'ibiti byo gutera, iyo ushaka igiti cyo gutera uragenda ukabaha amafaranga ubundi bakaguha ingemwe ushaka ubundi ukajya gutera.

Uyu ni umugore uhetse umwana, wikoreye n'umufuka, ari mu murima ari gutaha, avuye gushakisha cyangwa gusarura ibyo yahinze, ageze mu murima uteyemo imyumbati, ariko zo zitarizera.

Imiteja yera ku bishyimbo, barabitera bakabishingiriza n'imishingirizo, bikazana imiteja bakayisoroma bakayiteka nk'imboga bakayirya, cyangwa bakanayijyana mu isoko bakayigurisha bakabaha amafaranga.

Imbuto ziribwa, habamo na avoka. Ni nziza cyane kuko barazigurisha bakabona amafaranga yo kwikenuza. Ziranaryoha, bazirya bazivanze n’ibindi biryo bakamererwa neza.

Ibitunguru ni byiza cyane tubikarangisha ibiryo bikaryoha, tubirya ari bibisi tukabikekera ibyo tugiye kurya, bigahumura neza bikanaryoha, bigatuma mu nda yacu hamera neza.

Itungo rigufi bayita dendo, ni nziza cyane itera amagi manini cyane, ushobora kuyagurisha cyangwa ukayarya, wanayigurisha ukabona amafaranga, wenda ukayirariza ukagira bya dendo byinshi cyane.

Umushumba aragiye inka, ni nziza cyane kuko ziduha ifumbire yo guhingisha twanazigurisha tukabona amafaranga, twanazibahaga tukarya inyama, turazibanguriza zikabyara inyana zikororoka.

Injugu ziryoha cyane, bazikora mu bigori barabifata bakabyanika bikuma bakabishyira muri aka kantu kameze nki safuriya bagashyiramo n'utuvuta bigaturika maze bakabirya baba bashyizemo n'umunyu.

Hari imineke yahiye. Ni myiza cyane ku buzima bwacu, ituma tumera neza mu nda yacu iyo twayiriye. Cyane cyane binafasha abana gutuma mu nda habo hatazamo inzoka. Ibi bitoki bindi bidahiye na byo ni byiza cyane kuko bitera imbaraga.

Mu Rwanda abahinzi bahinga ibigori babonamo inyungu nyinshi cyane, kuko babirya iwabo mu mago, bakabijyana no kwi isoko, bakabonamo amafaranga yo kwiteza imbere bagura amatungo yo korora nk'inka, ingurube n'intama, igihugu cyacu bigatera imbere.

iki ni igitoki cyera ku nsina baragica bakakirya cyangwa bakakijyana mu isoko bakakigurisha babona amafaranga bakanagitara bakaryamo imineke.

Uyu ni umurima w'ibigori, ibigori bireze, biri kuma benda kubisarura ngo babijyane kubigurisha, cyangwa babijyane mu rugo bazabitekemo impungure, cyangwa bakuremo ayandi mahundo bayarye cyangwa babeteshe impungure.

Mu mbuto ziribwa habamo n'amatunda meza cyane, yatuma uwayariye amererwa neza, uwayahinze asagurira n'amasoko ,akayagurisha ,akabonamo amafaranga yo gukoresha ibindi bikorwa by'iterambere.

Ibihingwa duhinga mu Rwanda habamo n'amajeri cyangwa amashaza, ni meza cyane bayarya ari intonore cyangwa akuma bakayahura, bakayagurisha bakabona amafaranga yo gukoresha ibikorwa byabo bya buri munsi.

Aya ngaya ni amashu ari mu murima. Areze, umuntu ashaka yagenda akayasoroma akajya kuyateka, cyangwa akajya kuyagurisha ku isoko, bakamuha amafaranga, akayakoresha ibindi bintu akeneye.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni kimwe mu bintu bituma abahinzi batera imbere, bakaba abakire, barabirya iwabo mu ngo, bagasagurira n'amasoko, hari n'ababicuruza babigize umwuga, babigemura ahantu hatandukanye mu maresitora, mu mahoteri n'andi masoko atandukanye.

Amatunda ni zimwe mu mbuto ziribwa zikunzwe, abahinzi bayo iwabo mu rugo barayarya banayajya mu isoko, bakabona amafaranga yo kwikenuza, n'abayacuruza babonamo inyungu bakagura ibyo bakeneye, batangamo n'umusoro.

Ubunyobwa ni igihingwa cyiza, uwabuhinze arabusarura akabugurisha akabona amafaranga yo gukoresha ibindi bikorwa by'iterambere, baburya ari bubisi cyangwa bakabukaranga, bakabiteshamo ifu yo gushira mu biryo nk'ibirungo.

Mu binyampeke habamo ibishyimbo, na soya n'amajeri. Bifite akamaro kanini kuko ababihinga bihaza mu biribwa iwabo. Baranabigurisha bakabonamo amafaranga. N'ababicuruza na bo batanga umusoro, Igihugu cyacu kigatera imbere.

Ubuhinzi bw'ibigori ni bwiza iyo byeze barabiteka bakabirya, byakuma ukabonamo ifu banywamo igikoma batekaamo n'umutsima. Baranabigurisha bakabona amafaranga yo gukoresha ibindi bikorwa bitandukanye.

Ibigori barabiteye, birakura, birera, barabisarura, barabyanika, bazabigurisha babahe amafaranga, cyangwa bahungureho bajye kubetesha bateke igikoma, bateke n'umutsima wo kurya.

Ibishimba ni byiza cyane, ababihinga bihaza mu biribwa mu ngo za bo, basagurira n'amasoko, babona amafaranga yo kwiteza imbere, yo kugura imyenda yo kwambara, no kwishyurira amashuri y'abana ba bo.

Uruganda bakora batunganya umuceri, uriya ni umuceri bamaze gutunganya uriya mugabo niwe uri kuyizanaho. Iyo umuntu ashaka kuyirangura ngo ajye gucuruza, hano niho ajya bakayimukorera akayijyana.

Uyu ni umufuka urimo ibishyimbo babyita nyiramukara, barabitera, byakura bagasoromamo umushogorogo wo kurya, bagasoromamo intononore byakuma bakabihura bakabibika.

Ubunyobwa ni igihingwa cyiza, uwagihinze aragurisha akabona amafaranga n'abagicuruza babonamo inyungu bagatanga n'imisoro ku gihugu cyacu. Baburya bukaranze, bakanabubeteshamo ifu yo gushyira mu biryo.

Ibishyimbo by'ubwoko butandukanye bifite amabara atandukanye byiza cyane byubaka umubiri bituma umererwa neza, iyo wabyejeje urabigurisha ukubona amafaranga ukaba umukire.

Igihingwa cy'ibishyimbo gifite akamaro kanini. Hari ibyo batera by'imiteja, barayisoroma bakayijyana mu isoko bakayicuruza, abantu bakazigura bakajya kuzirya. Abacuruzi bazo babona amafaranga yo kwiteza imbere no kwikenuza, kandi batanga imisoro ku gihugu cyacu.

Uyu nguyu ni umufuka bari gusuka hasi ndi kubona ari ingano bamaze kuzihura, utu turambitse ku ruhande ni ingano zidahuye, barazibetesha bagakuramo bakanywamo igikoma cyangwa bagatekamo umutsima, cyangwa bakazigurisha mu nganda bagakora inzoga.

Ibishyimbo ni igihingwa cyiza cyane , abahinzi b'ibishyimbo barabitera bakabitera umuti kugira ngo bizere neza, byakwera bakabirya iwabo mu ngo baranabigurisha bakabonamo amafaranga yo kwiteza imbere, no gukoresha imishinga itandukanye.

Ibi ni ibigori, barabiteye birera, barabisarura babizana hano kubihunika, bategereje ko haza abantu bakabigura, bakabijyana mu ruganda, gukoramo akawunga cyangwa babijyane baje gukoramo izindi mbuto zo gutera.

Inzuzi bazikura mu bihaza cyangwa amadegede. Iyo byeze barabisatura, bazikuramo bakazanika, bakazisekura, hakavamo ifu bashyira mu biryo bukaryoha, no kuzirya bituma amagufwa yacu akomera.

Umuma w'ubunyobwa，ureze， uyu mubyeyi avuye kubusarura， ubu nagera mu rugo， arakuraho bino bibabi hasigare ubunyobwa gusa， abwanike，abutonore，abugurishe bamuhe amafaranga，cyangwa abukarange，age araburya，age kubucuruza bukarane.

Ubunyobwa bamaze kurandura bagiye kugenda bakureho tuno two hasi batwanike nitwuma bazadutonore, nibadutonora havemo impeke z'ubunyobwa n'uko babugurishe cyangwa ba babwanike babuhekenye baburye ,cyangwa babubeteshe bakoremo ifu yo gushyira mu biryo.

Uyu ni umurima uteyemo ibishyimbo bigufiya, ibi byo ntabwo babishingira, urabitera bikazera ntiwirirwe urashaka imishingirizo, ibishyimbo rero ni byiza cyane, iyo byeze ushobora kubigurisha, ukabona amafaranga ugakemura n'ibindi bibazo waba ufite.

Amasaka meza cyane barayihinga, yakera bakayatema, bakayanika, bakayagurisha bakabona amafaranga, bakayabetesha, bakanywamo igikoma cyangwa bakayinika, ifu yayo bakayikoramo umusururu n'ikigage.

Ibi ngibi ni ibishyimbo bya mushingirizo, ndi kubona barabishingirije imishingirizo yitwa imigano, ni bwo biri gufata ibiti nibimara kuba bikuru bazasoromamo umushogoro bajye kuwurya, nibizana imiteja n'intonore basorome bajye kurya, nibyuma babihure bajye kubigurisha cyangwa babihunike.

Ibigori byumye biri mu bwanikiro mu buhunikiro, barabisaruye baraza babishyiramo, rero bazabigurisha, uruganda rubigure rukuremo kawunga, cyangwa abatubuzi b'imbuto baze babigure bakoremo imbuto zo gutera.

Ubunyobwa barabuhinga, bakabusarura bakabwanika, bakabutonora, bakabugurisha bakabona amafaranga, n'ababuguze bakabubetesha bakabonamo ifu yo gushyira mu biryo kugira ngo biryohe, bakanabukaranga bakaburya.

Ibingibi ni ibishyimbo biri kuzana urunyange ,rukaba imiteja bashobora gusoroma bakayirya ikazaba intonore, cyangwa bakayireka ikazavamo ibishyimbo, bakabisarura, bakabihura, bakabibika bakajya babiteka, bakanabigurisha bakabona amafaranga.

Mu bihingwa byiza cyane mu Rwanda habamo n'ibishimbo, bifite akamaro kanini, kuko barabiteka mu rugo bakabirya, bagasagurira n' amasosoko, bakabigurisha, bakabonamo amafaranga yo gukoresha ibindikorwa bya bo bya buri munsi, n'abacuruzi ba byo bagira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu, kuko batanga n'imisoro.

Itungo ryitwa urukwavu ni ryiza cyane. Iyo uryoroye, uraribaga, ukaryamo inyama, cyangwa ukanazigurisha, ukabonamo amafaranga yo gukoresha imishinga itandukanye, no kwishyurira abanyeshuri amafaranga yo kwigira.

Izi ngizi ni inka ziri mu rwuri. ziri kurisha ibyatsi. Zitanga amata bakayanywa cyangwa bakajyana mu ruganda bakayakuramo ifu, bakanayakoramo za yawurute Ziduha n'amafaranga iyo twazigurishije. N'inyana zazo urazorora nazo zikaba ari nziza.

Ihene n'inka n'intama turazigura, tukazijyana mu rugo, tukazahirira ibyatsi zikaduha ifumbire yo guhingisha, , kandi turanazigurisha bakaduha amafaranga, baranazibahaga, tukakarya inyama.

Mu bworozi bw'amatungo magufi habamo n'aborora ingurube, itungo ryiza, kuko ritanga inyungu mu gihe gitoya, ibyara vuba, rikororoka, akagurisha ibyana akabonamo amafaranga yo gukora n'iyindi mishinga, itanga n'ifumbire yo gukoresha mu mirimo.

Ubworozi bw'inkoko ni bwiza cyane kuko zitanga amagi bakayarya bakanayagurisha. Mu maresitora aba arimo batekamo imireti, n'abayacuruza babona amafaranga, bakanatanga umusoro ku gihugu cyacu. Babona amafaranga yo guhemba abakozi no kubaka ibikorwaremezo.

Inka idufitiye akamaro kanini cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, barazigurisha bakabona n'amafaranga, zitanga n'ifumbire yo guhingisha, bazifashisha mu misango z'ubukwe bari gutanga inkwano.

Inka ni imwe mu matungo yororerwa mu rugo. Inka zitanga amata cyangwa bakazibaga bakaziryamo inyama, zigatanga n'ibishingwe byo guhingisha. Ikindi inka iyo bazibaze impu zazo bazijyana mu nganda bagakoramo ibikoresho bitandukanye.

Izi ni inka zifite amahembe barazorora, bakazisasira bakabona ifumbire ryo guhingisha, bazikama amata bakayanwa cyangwa bakazigurisha bakazibaga bakajyamo...

Umukobwa ari kugaburira ubworozi bwe bw'amatungo magufi, bita inkoko zitanga ifumbire yo guhingisha cyangwa zigatera amagi tukayarya bagatekamo umureti, inkoko tunaziryamo inyama.

Uyu muntu afite ubworozi bw'ingurube. Riba ari itungo rigufi ribyara ibyana byinshi, bakabigurisha, bakabona amafaranga. Rinatanga inyama bita akabenzi, kararyoha cyane.

Iri tungo baryita ingurube, ni rigufi bararyorora bakarisasira rigatanga ifumbire, bakanarigurisha bakabona amafaranga, bakaribagamo inyama zayo bita akabenzi, uranaryorora ukaribanguriza rikabyara ibyana byinshi.

Abantu batatu n'itungo. Wagira ngo bari kurivura. Aha ni ho tujyana amatungo yacu :inka ,ihene, intama iyo yagwaye bakayavura cyangwa se bagiye kuyatera intanga kugira ngo azabyare.

Ubworozi bw'inka budufitiye akamaro kanini. Inka zitanga amata yo kunywa, cyangwa bakagajyana mu nganda bagakoramo amata y'ifu. Usanga bayakuramo n'andi banywaga yitwa inyange. Baranazigurisha bakabona amafaranga yo gukoresha indi mishinga.

Ingurube yabwaguye ibyana byinshi. Iraryamye iri kubyonsa nibimara kuba binini bazabyorora bagire byinshi cyangwa banabigurishe babonemo andi mafaranga.

Mu matungo magufi habamo n'ingurube zifite akamaro kanini cyane, aborozi bazo barazigurisha bakabonamo amafaranga yo kwiteza imbere, baranazibaga bakaryamo inyama bita akabenzi.

Inyana ibyarwa n'inka igakura nayo ikazabyara iyindi bakazayorora ikajya itanga ifumbire, ikazabyara nayo bakayigurisha babona amafaranga.

Ihene ni itungo ryiza, kuko uryoroye abona ifumbire yo guhingisha cyangwa akaribanguriza akagira ihene nyinshi. Yarijyana no ku isoko akarigurisha akabana amafaranga. N'abazicuruza babona inyungu bagatanga n'umusoro.

Aya ni amagi ari mu matereyi, aya ni inkoko ziyatera. Ayangaya bayatekamo umureti bakawurya, cyangwa bakayarya atogosheje, cyangwa bakayarya ari mabisi, cyangwa bakayagurisha bakabona amafaranga.

Amatungo yitwa ihene ni amatongo magufiya borora. Ihene ziba nziza cyane. lhene zitanga ifumbire tujyana mu mirima tugahinga. Ihene ziduha amafaranga iyo washimye kuyagurisha, aduha amafaranga tukikenuza.

Ingurube ziryamye mu biraro byazo, ingurube rero ni amatungo magufi yororwa agatanga ifumbire ryo guhingisha cyangwa bakanazibaga zikabaha akabenzi, ingurube zigira n'amafaranga uwazoroye zirabwagura akagurisha ibyana.

Inyamaswa iguruka bayita inyoni zibamo amoko menshi atandukanye, ziba mu bidukikije zigira amajwi meza cyane, zituma n'ibihingwa byera kubera ko zibangurira

Iyi nyamaswa ibarizwa mu biguruka, ni igisiga kigira umunwa muremure, gikunda kuba ahantu h'igishanga, gikunda kujya kuroba amafi mu mugezi gikunda n'udusimba two mu mazi.

Inyamaswa zitwa ingagi zitwanga amatiki y'ibirunga mu rwanda zikururaga ba mukerarugendo bagatunga amafaranga bitaga amadovize ziri mu bidukikijefite mu gihugu cacu.

Iki ngiki ni ikinyoni cyangwa igisiga cyitwa muyongoyongo, ni ikiguruka kiba mu mashyamba kirara mu biti ,kandi kigakunda kuba ahantu hari igishanga gikunda kurya udusimba tutagira amagufa kigira n'umunwa muremure.

Inzoka, inzoka ni inyamaswa ziba mu ishyamba cyangwa no mu myobo cyangwa mu mazi, zikururuka. Inzoka zigira ubumara bubi cyane, iyo ikurumye ntujye kwivuza urapfa.

Ingagi ziba mu ishyamba cyane cyane muri parike y'ibirunga, ziba no mu majyaruguru, zikurura ba mukerarugendo bagatanga amafaranga bita amadevize, kandi ziba no mu bidukikije.

Izingizi ni ingagi ziba muri Pariki y'Ibirunga, zikurura ba mukerarugendo bakaduha amadovize, zirya ibimera n'ibyatsi n'amababi by'ibiti, kugira ngo zimere neza, zibyarana n'abana bikabonsa.

Muri pariki z'ibirunga ziherereye mu Majyaruguru, habamo ingagi zikurura ba mukerarugendo, n'ababazungu bagatanga amafaranga yitwa amadovize, igihugu cyacu kigatera imbere, kikubaka ibikorwaremezo by'imihanda n'amashuri n'amavuriro.

Iyi ni nyoni iba mu ishyamba. Ni ubwoko bw'inyoni bumeze neza cyane, bugira amabara ameza cyane. Mirereri iba mu bidukikije, igira ijwi ryiza cyane. Abakerarugendo baza gusura amashyamba, gusura za parike bakumva amajwi meza y'inyoni, batanga amadovize. Inyoni kandi zituma ibihingwa byera zikabibangurira.

Zimwe mu nyamaswa tugira mu Rwanda, zidufitiye akamaro kanini habamo n'ingagi, ziba muri pariki y'ibirunga zikurura ba mukerarugendo, abazungu batanga amafaranga yitwa amadovize, atuma ubukungu bw'u Rwanda butera imbere, bayubakisha ibikorwa remezo bitandukanye nk'imihanda.

Iyi ngiyi bayita imbata. ni itungo ryo mu rugo rimeze nk'inkoko, ritera amagi manini, bakayateka bakayarya cyangwa bakayagurisha bakabaha amafaranga. baranazibaga bakaziryamo inyama.

Mu bidukikije habamo ibimera, n'ibiguruka nk'inyoni, n'ibisiga. Zifite akamaro kanini cyane, kuko zibangurira ibihingwa twateye nk'ibigori, n'ibishyimbo, n'amasaka kugira ngo byere bimeze neza.

Iyi ngiyi ni inzoka irarumana igira ubumara bubi cyane, iyo ikuriye uhita wihutira kujya kwa muganga kugira ngo baguhe imiti igukuremo ubwo bumara, kuko bushobora kukwica

Inyoni ni nziza cyane , urabonako iri mucyari isha kuzatererama amagi irayararira ikazakuramo inyoni ntoya, inyoni rero ni nziza cyane ku ko zituma ibiribwa twahinze byera zirabibanguriraga ikigori kikaza kimeze neza gifite amasaro meza cyane.

Ahangaha ni ku ngezi zibamo amafi, ikingiki ni gisiga cyaje kiroba ifi kirayitwaye kigiye kuyirya, ibisiga nk'ibingibi bituma amafi aba makeya mu ngezi kubera kuyajyana gutya.

Aka n'ikanyoni keza cyane, ziba mu bidukikije, kava mu gitondo kari gusakuza, , kakagira akamaro kanini cyane zibangurira ibigori kugira ngo bize bifite amasaro ahantu hose n'ibishimbo byera neza.

Muri pariki y'ibirunga iba mu ntara y'Amajyaruguru dusangamo inyamaswa bita ingagi zifite akamaro kanini cyane, kuko abakerarugendo baza kuzireba bakishyura amafaranga Igihugu cyacu kikabona ayo guhemba abakozi bakoramo, kikubaka ibikorwa bitandukanye nk'amashuri, n'ibitaro.